Kwamamaza asiransi kwamamaza ibikorwa by'asiransi n'umu esesibi ubihuza kwamamaza ibikorwa by'asiransi.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda kirikwamamaza uko kizajya kirinda abantu bakigana, bavuga bati: "cya gihe uba wuzuye ibyishimo n'umutuzo kuko imodoka yawe iri mu biganza by'inshuti yizewe. Hitamo Britam.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi kimwe mu bigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda kiri kwamamaza ko kirinda abantu icyaba icyo ari cyo cyose ko kiba kigomba kubarinda.

Kwamamaza asiranse y'ubuzima, bagaragaza n'uruhare bafite mu kurinda abantu bagomba kubarinda uko byagenda kose bazaba bahari mu gihe babakeneye.

Inzu iri ahantu ku muhanda kuri kaburimbo ya etage harimo abantu ni ikigo gishinzwe ubwishingizi cyitwa sun ram aliance africalagestslce.

Kimwe mu bigo mu Rwanda bishinzwe ubwishingizi, kwamamaza, mukiriya wacu uri uw'agaciro, mu wa Asiranse dufatanyije uyu mwanya ngo tubashimire icyizere mukomeje kutugirira.

Icyapa cya kampaniy ishinzwe ubwishingizi ikaba yitwa allist aslance brokers ltd kikaba kiri ku muhanda.

Isoko rito rigurisha ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitabo byo gusoma. Muri ibyo bitabo hakaba harimo icyerekana mapu ya Kigali cyangwa se ubuso bwa Kigali n'imitako yo mu nzu.

Isoko, iduka rito ricuruza imyambaro, inkweto, amashakoshi, harimo inkweto zitandukanye, harimo imitako.

Butike icuruza amakote y'abagabo kositimu, iyo botike ikaba yitwa gorudeni fashoni shopu ni botikento igucuruza amakote y'abagabo cyangwa se kositimu.

Imodoka ifite ibara ry'umeru, iri mu bwoko bwa Toyota yitwa Pront Lander, imodoka nta purake ifite, iri mu bwoko bwa Toyota.

Inote y' u Rwanda amafaranga ibihumbi bibiri, banki nkuru y u Rwanda umunara, agaseke n'ibindi banki nkuru y'u Rwanda amafaranga ibihumbi bibiri.

Amafaranga ibihumbi bitanu akorerwa mu muri banki nkuru y'u Rwanda, kuri ayo mafaranga hariho inzu nini izwi cyane mu Rwanda yitwa Comvetion hakaba hariho n'ingagi, akaba ari ibimenyetso bigaragara kuri iyo note y'u Rwanda y'ibihumbi bitanu.

Kampani ishinzwe gutanga itanga ibintu bikomoka ku mata icuruza ibintu bikomoka ku mata haririmo amata nk'ivuguto n'inshyushyu.

Iduka ricuruza ibikomoka ku mata, harimo amata y'inshyushyu, amata y'ikivuguto, indobo zirimo amandazi n'ibintu bigiye bitandukanye umuntu ashobora gufatisha amata mu gihe yaje kuyagura ari ....

Amata y'ikivuguto ndetse na zayahurute. Aya mata akaba aturuka mu kapani yitwa zirakamwa dayari. Umumama uri kuyacuruza.

Ahantu hacururizwa ibintu bikomoka ku mata, ibintu bikomoka ku mata hakaba harimo amata y'ikivuguto, amata y'inshyushyu harimo amavuta y'inka harimo Ayise kirimu harimo n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, fanta ya koka ndetse n'iya oranje.

Kampani icuruza ibinyobwa bikomoka ku mata, harimo yahurute, amata y'ikivuguto, inshyushyu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, dayali porodakiti shopu.

Dayari porodagiti shopu ni ahantu bacuruza ibintu bikomoka ku mata, harimo amata yo ubwayo, hakaba harimo amavuta y'inka, hakaba harimo amata y'ikivuguto, inshyushyu.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa mu kwishyura, bwa kampani ya MTN, hakaba hariho kohereza amafaranga, kwishyura fagitire na serivisi, kugura Amayinite, Mobile money, kubikuza, ndetse no kubitsa.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwishyurira kuri enterinete, uburyo bwo kwishyurira, uburyo bwo kwishyurira ku ikoranabuhanga, bakwereka uko ukurikiza amabwiriza kugira ngo ubashe kwishyura.

Rwanda Revenue Authority, ni ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, akaba ari n'ikemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro.

Amafaranga y'amayero, harimo amayero mirongo itanu, amayero ijana, amayero makumyabiri, aya mafaranga ntabwo ari amanyarwanda ni amafaranga y'amayero.

Inzu iri ahantu ku muhanda, ikikijwe n'ibiti, ni inzu igizwe n'amagorofa atatu, harimo ahantu ho gusohokera, resitora iri kuri kaburimbo ni nziza cyane.

Ibiryo biryoheye ijisho, ibiryo biryoheye ijisho ni muri resitora runaka, hari nk'ikinyobwa cyitwa shampanye, kuri ibyo biribwa hakaba hariho inyama ndetse n'amakaroni.

Ahantu heza ho gusohokera, harimo ibyumba byo kuraramo, harimo resitora, hari ubusitani bwiza, ibiti bikikije ubwo busitani, indabyo nziza n'ahantu wakicara uri kumva akayaga.

Kaburimbo inzu iri hafi ya kaburimbo ni inzu y'ubucuruzi irimo amatara yaka neza iri hafi ya kaburimbo ku matara ndetse ahantu hasa neza cyane, hakikijwe n'ibiti kandi hisanzuye ashobora kuba ari mu mujyi wa Kigali.

Ahantu heza ho gusohokera, hari viyu nziza, hitaru mu mujyi wa Kigali hatuje, hari ibirahuri bibiri birimo ji ,harimo n'imiheha ndetse hari n'udutebe tubiri.

Ibiro bitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye harimo Irembo, Rwanda Revenue Authority ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda na bank of Kigali, assurance.

Sonerwa ni ikigo gishinzwe ubwishingizi ikigo, gishinzwe ubwishingizi inzu ya sonarwa ishinzwe ubwishingizi mu Rwanda ibiti pasiparume.

Kampani ya Radiyanti, kampani ya Radiyanti ni kampani ishinzwe kugira ubwishingizi mu kwivuza, ni kampani ifasha abantu mu kwivuza, hano hariho abakozi bayo, abakozi bayo batatu, umumama umwe n'abagabo babiri hariho n'ibyapa bya Radiyanti.

Kampani ishinzwe ubwishingizi mu Rwanda yitwa Sonarwa ni mu biro byaho aho Sonarwa ikorera, hakaba harimo intebe abakiriya bicaraho.

Inzu nini cyane iri ku muhanda wa kaburimbo ahantu hari ibiti, hari ubusitani. Akaba ari inzu ya etage nini cyane, ikaba ifite etage ya A na etaje ya B.

Isoko ry'ubucuruzi naba mama bacuruza amagi y'amanyarwanda amapodezi ku isoko ryubakiye incuruza ibibiribwa.

Isoko ricuruza ibiribwa harimo inyanya, imineke, ibishyimbo, amashaza, ifu y'igikoma, ibinyomoro.

Isoko rinini cyane rihahirwamo imyambaro, inkweto, amapantaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ririmo abantu baje guhaha, abagabo n'abamama n'abakobwa n'abasore.

Isoko, isoko riharihirwamo ibiribwa, ibinyampeke, imbuto, ibintu bigiye bitandukanye haririmo abantu bagiye batandukanye. Abamama, abasore bafite imbaraga bitwa abakarani batwaza abantu baje guhaha ndetse n'abashinzwe umutekano

Isoko, isoko ricuruza imyambaro itandukanye irimo amakanzu, amapantaro, amajipo, hakaba harimo n'imyenda y'ibitenge n'imyenda isanzwe harimo n'abantu bari kudoda bakoresheje imashini y'ubudozi.

Akazu k'ubucuruzi MTN itumanaho mu Rwanda. MTN ni itumanaho ryo mu Rwanda rifasha abaturarwanda ndetse n'abandi bose batuye mu bihugu bihe bitandukanye, byaba kubiguza amafaranga ndetse no kugura amayinite ya MTN.

Kampani ya MTN. Kampani ya MTN, ishinzwe itumanaho mu Rwanda. Ahantu bacururiza amayinite, ndetse n'ahantu babikuriza amafaranga.

Ni apulikasiyo umuntu aba ashobora gutumaho ibikoresho, kandi iyo aguriye kuri apulikasiyo bamugabanyiriza mirongo itatu kw'ijana.

Irembo, itangazo dushingiye ku bitekerezo byanyu turimo kuvugurura irembo guverinoma kugira ngo tuyihe isura nshya. Umuryango icyemezo cy'uko uri ingaragu, serivisi z'ubutaka, kwemeza ko umuntu ari imfubyi, icyemezo cy'uko utishoboye ndetse warokotse na jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda na miringo icyenda na kane.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rugurisha ibintu mu buryo bw'ikoranabuhanga, hariho agakomo bambara ku akaboko kakaba kagura amafaranga, ibiceri maganatatu mirongo cyenda n'icyenda. Hakaba kariho agakuteri, akantu bambara mu matwi k'itumanaho, kagura ibihumbi bibiri na magana arindwi nane.

Isoko rihahirwaho mu buryo bw'ikoranabuhanga ryitwa Birasi, umuntu yari yatumije bamuzaniye ibyo yari yatumije, ni moto ibimuzaniye.

Urubuga bacururizaho ibyo kurya kuri interinete, ushobora gutumiza aho uri hose bakabikugezaho harimo imboga, imbuto, ibyo kurya, ibinyampeke, ibirayi, ibishyimbo, umuceri n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Inzu iri i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibirometero, metero mirongo icyenda n'eshanu, amafaranga waba ufite wagura inzu mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Ikibanza cyitaruye kiri kubakwamo inzu ya etaje, bari kubakamo inzu, hari ibyatsi, hari ibiti bikikije iyo nzu, baracyari kubaka

Inzu nziza iri ahantu heza igeretse rimwe, bakaba bari kugurisha amadolari ibihumbi magana atanu, ku kwezi, ikaba iherereye mu rugamba hafi ya konvesheni senta.

Inzu ikodeshwa ikaba iri Kigali Kanombe ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, iri ahantu hisanzuye yubatse neza isize amarange y'umuhondo, umweru ni mu gipangu.

Inzu iri ahantu heza cyane mu gipangu ahantu hatuje, ikaba iri kugurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda, inzu nziza isize amarange, ifite inzugi n'amadirishya meza.

Inzu ikodeshwa iri muri Kigali-Kanombe, ikaba ifite ibyumba bitatu, dushe ebyiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mu kwezi. Inzu iri ahantu heza muri Kigali-Kanombe, ikaba ifite ibyumba bitatu, dushe ebyiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu mu kwezi.

Iduka, iduka rito ricuruza imitako yo mu nzu, imitako yo hanze, imitako igiye itandukanye. Harimo umumama ucuruza n'abakiriya.

Isoko rito riharirirwamo ibikoresho byo mu nzu, harimo ibyo ku meza, amasahani, ibisorori, amaterimosi, amarushe, amafurusheti n'ibindi.

Shopingi moru. Shopingi moru ni iduka riba ririmo ibikoresho byo mu nzu, ririmo ibyokurya, ririmo ibyo kunywa, ibintu bigiye bitandukanye umuntu aba ashobora kwifashisha yaba mu kanya gato ndetse n'iby'igihe kirekire.

Ikirangantego kigaragaza ubwisungane mu kwivuza mituweri, ikigo kibishinzwe ni RSSB Rwanda Sosho Sekiriti Bodi, ikirangantego kiranga ubwisungane mu kwivuza.

Mituweri y'umwana ukiri muto, ubwisungane mu kwivuza, hazaho ifoto ya nyiri mituweri, ukwezi yavukiyemo, aho yafatiye mituweri...

Supermarket ni isoko rihahirwamo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imboga, imbuto ,inyama ,ibigori, inyanya ,ibinyobwa, amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye

Supermarket, supermarket isoko rihahirwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, hagiye harimo ibintu bitandukanye amaji, amasinakisi, yaba ibiribwa bihiye ndetse n'ibidahiye, agiye arimo abakiriya batandukanye, abasore ndetse n'abakobwa bashinzwe kwakira abakiriya.

Ni isoko ricuruza ibiribwa ibiribwa byoroheje bigiye bitandukanye harimo ibisuguti, harimo shokora, harimo nido harimo n'ibikoresho by'isuku.

Iduka rinini, ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, ibihiye cyangwa ibidahiye, abantu bari guhaha ku bwinshi, babishishikariye.

Supermarket muri supermarket hagiye aba hari ibintu bitandukanye ibinyobwa ibiribwa ibihiye ndetse n'ibintu umuntu ashobora kwifashisha mu kanya gato yego harimo umuntu hari umuntu uri guhaha ari kugenda ahitamo ibintu bitandukanye bitewe'i nibyo ashaka